Abakozi bo kwa muganga ndetse n'abandi bantu bose bakora mu bitaro barasabwa kujya bita ku barwayi babagana babaha ubufasha ndetse bakagira n'isuku mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abarwayi.

Mu bitaro kwa muganga, abakozi bahakorera barasabwa kujya bagirira isuku ibikoresho byaho, mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abarwayi, dore ko ngo isuku ari isoko y'ubuzima.

Ababyeyi ndetse n'abaganga muri rusange, ni bamwe mu bagomba kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abana, mu rwego rwo kugira imikurire myiza ndetse n'imitekerereze myiza.

Mu bitaro kwa muganga ahakirirwa abarwayi, abahakorera barasabwa kujya batanga serivisi nziza, bakakirana urugwiro ababagana ndetse haba abakuze, abana ndetse n'abandi muri rusange.

Ibyumba byo kwa muganga bifatirwamo ibizamini by'abarwayi ni bimwe mu bigomba kwitabwaho bikagirirwa isuku ndetse hakabungwabungwa ko nta zindi mikorobe zigeramo. Ibi ni ukugira ngo habungwabungwe ubuzima bw'umurwayi.

Minisiteri y'uburezi ndetse n'ababyeyi muri rusange, ni bamwe mu bagomba gusigasira ndetse no kubungabunga ubuzima bw'umwana, bakabaganiriza mu mikurire bagakora neza ndetse no mu mitekerereze.

Ibitaro bikuru ndetse n'ahandi hatandukanye hasangwa ikigo cya Isange one stop center aho gifasha abahohotewe yaba ari umwana, umugore ndetse n'umugabo.